Butike abantu baguriramo imiti itandukanye, ijyanye no guhinga ndetse n'amatungo, usanga ifunitse, ifunze neza.

Ifumbire y'amahanga ifasha abantu gutuma imyaka yabo yera cyane dore ko iyi n'ubundi itanangiriza ubuzima iyi gorowu rero usanga ari ingirakamaro ku bihingwa.

Amafi akabushije rwose, atunganijwe, bashyiraho umunyu mu rwego rwo kugira ngo arusheho kurama, cyangwa se arusheho kubaho, gukoreshwa mu gihe kirekire bitagombeye yuko abanza kwangirika.

Ubwato rero iyo buri kuroba nukunguku, nk'ubu harakeye urasanga rwose aya mato amasaha yo kuroba ageze bwije, nibwo urasanga baba bari kuroba n'aba barobyi baho.

Ifi ikawushije rero ikaryoha! Uburyo bwo kurushaho kuryoherwa, biba byiza iyo abantu bayikawushije, noneho iyi yo rero ikaba gahozo! Ndabona igiye gutunganywa mu buryo bwiza cyane ku buryo amazi arimo kuzura akanwa!

Ibigori bigiye kwera bya ntukoreho byahinzwe neza cyane mu rwego rwo kurushaho kwikungahaza mu by'ubukungu no kwiteza imbere.

Umurima w'amateke uhinzemo amateke, mu rwego rwo kurushaho no kuwuraza, kugira ngo umwaka cyangwa igihe gitaha uzatange umusaruro uhagije.

Imbuto bari kugurisha zirimo avoka, umuneke, inanasi, n’ifu. Iguriro, abantu baguriramo ibintu bitandukanye.

Ingurube iri mu kiraro cyayo ahantu barimo kuyororera, barimo kuyigaburira n'umushumba wayo, mu rwego rwo kurushaho kugira ngo ibeho neza cyane y'uko ibwegetse.

Umugore w'ibigango rwose ufite isuka, ku buryo azi kuyikubita kandi bikaba bigaragara ko akunda umurimo. Kandi umurimo ni iterambere ry'ubuzima bwacu.

Umuhinzi mworozi usanga anezerewe iyo amaze gusarura. Umugore, uyu mugore rwose usanga ameze neza iyo yafashe inanasi, umugabo ari kurebera hirya bishimye bari kureba uko bameze.

Ariko iyi kawa kuyitunganya kugira ngo abantu babashe kuyinywa ,ubungubu ahari ntibigorana cyane? Umenya ihenze kandi?

Abagabo baba batunganya neza imiceri. Ku buryo bagomba kuyibagarira no kuyitunganya mu rwego rwo kurushaho kugira ngo irusheho gutanga umusaruro uhagije cyane.

Ayamatunda yararyoha cyane ku bantu bakunda kuyarya, nkatwe usanga ameze neza tugakunda kuyita rero marozi.

Umuhinzi uri kugenzura intiryi ngo arebe ko zaba zeze cyangwa se ko zimeze neza, zabazitameze neza yazitegurira uko zigomba kubaho no kumera neza kugira ngo zitazatakwa n'udukoko dutandukanye.

Abakozi iyo basarura imyaka yabo, umugore yabagejeje mu murima batunganya cyane nk'ibigori n'indi myaka mu rwego rwo kurushaho kubungabunga neza ubuzima bwacu.

Imiteja usanga imeze neza cyane mu rwego rwo kurushaho kunoza ibiribwa, ikagira imiteja miremire kandi ikunze kuryoha cyane iyo abantu bayitetse ko muceri, bateguye neza ibyo kurya biryoshye.

Ibitoki bikunze kwera cyane ahantu hashyuha, werekeza mubice by'imisozi na za kinkware, usanga ibi bitoki biryoha cyane mu kubirya mo imineke cyangwa se kubikoramo inzoga.

Inka ziri mu rwuri zirimo kurisha, zikaba ziri guhamagarwa n'umushumba wazo.

Igihaza gikomeye cyane inkogote. Inkogote rwose iyi ngiyi ikaryoha iyo imaze gukura cyane. Iyo uri kurya ukoresha ibiyiko bikomeye, kugira ngo ubashe kukirya neza.

Gukora ni kare umugore n'umugabo rwose bazindutse mu murima, atunganya kandi bakora neza bategura ejo hazaza, niyo mpamvu usanga ibintu byose baba babikorana umwete n'imbaraga mu gushyira hamwe no kuzamura urugo.

Ibirayi biba bifunze mu mifuka minini cyane, bari bubigemure mu mugi, byari mu mugi rwose wa Musanze, byaba na ngombwa bagapakira bakajyana i kigali.

Igikoni cyacu rero nacyo ndabona kigarara ko gikwiye kuryoshya ibiryo cyane kuko ubona ko harimo ibirungo byose bifatika kugira ngo turusheho kuryoherwa n'ibi biryo.

Igihingwa cy'imyumbati na cyo kiramira abantu, mu rwego rwo kugira ngo barusheho kubaho neza cyane cyane ku bantu gikunda kwera.

Ibijumba biryoha cyane iyo umuntu ari kubinywesha amata no kubisomera, cyane cyane nko kubiteka mu buryo bwa kinyarwanda.

Umuhinzi ari gutera umuti ibigori, ari kurwanya udusimba n'udukoko, mu rwego rwo kugira ngo birusheho kwera cyane ndetse binatange n'umusaruro.

Ibirayi biri mu mifuka, birimo gucuruzwa, bategereje abaguzi ngo baze bagure. Ni ibya Kinigi, biryoha cyane mu kubirya.

Maze urusenda rukaryo we! Cyane noneho iyo rukuze rumeze gutya, urunguru usanga rwongera imbaraga mu mubiri, umugabo rero aba ari kurukorera neza, areba ko rumeze neza mu murimo we, ku buryo azarugemura cyangwa se azarushyira ku isoko ruryoshye.

Mbega igitoki, igitoki kiba cyiza cyane iyo kiryoshye, noneho rero iyo ari mu mineke. Ubu bwoko n'iyi mbuto y'ibi bitoki usanga rwose bimeze neza cyane ku buryo bufa...

Amatunda yamarozi yeze cyane yiteguye gusarurwa, kuburyo uramutse utinze ushobora kuzasanga yarimanuye cyangwa se yarapfuye.

Igisheke reto kiraryoha cyane, iyo umuntu yagize amahirwe yo kubona amafaranga yo kukigura nk'uyu muntu rwose. Usanga bagica babicuruza n'ubwo biba biruhije kubibona, cyane mu buryo bw'amafaranga ariko iyo ubirya biraryo...

Kera tutaragira iterambere ryacu ry'iki gihe ubu rwose abantu benshi bahano iwacu ni uku nguku bubaka inzitiro mu buryo bwo kurinda ko urugo rwavogerwa ni uwo ari we wese. Uru rukikijwe n'ibyatsi ndetse n'uruzitiro rw'amabuye.

Ibishyimbo bitandukanye harimo ibizungu, amajyeri, ubwoko butandukanye bw'ibinyamisogwe.

Ariko ubunyobwa buryoha we umva, kuburya buratungana cyane, kandi bwongera itungamubiri z'umubiri wacu, ku buryo kuzifata bikunda kubakunda.

Ni ibirayi, ibirayi byacu rwose usanga iyo bikuwe bigaragaza umusaruro ukomeye cyane, cyane cyane iyo abantu barimo kubihinga, usanga ari ingirakamaro ku buryo bukomeye cyane.

Ibi bishyimbo bikaryoha cyane we! eeee! uzi iyo noneho ubiriye mu buryo butetse kinyarwanda bageretseho ibirayi n'ibishyimbo ugashyiraho n'umushogoro wabyo.

Ibishyimbo bikaryoshya ibiryo cyane iyo abantu babitetse kinyarwanda. Maze rero bikagira impumuro nziza, yewe bikanagira n'umumaro mwiza cyane. Ibishyimbo rero bya mutike usanga biryoshye cyane ku buryo bukomeye.

Umugore n'umwana baba bavuye gushakisha ibyo kurya, burimo giciro gakondo, abantu baba bakoresheje, barimo gushakisha, ibintu bijyanye n'ibiribwa agomba gukoresha, kugirango arusheho gutunganya ubuzima.

Ibinyampeke binyuranye; ibigori nk'amasaka, ibishyimbo, ingano, impungure, byose biba biri aho ngaho. Usanga biba bitegurirwa nk'abantu bagomba kubigura n'bagomba kubikoresha.

Ubunyobwa buba buri mu bishishwa byabwo butaratunganywa neza, mu gihe bamaze kubusarura baba babwanika, kugira ngo burusheho gutunganywa no kubikwa neza.

Abaganga b'amatungo barimo kuvura amatungo atandukanye, by'umwihariko ahangaha bakaba bari kuvura ibibwana by'ingurube, mu rwego rwo kugira ngo birusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugore akuruye amatungo ye y'intama, intama ya kinyarwanda n'intama ya kizungu, agiye kuzizirika mu murima kugira ngo zirusheho kurisha no kumera ne.

Ingurube nini cyane igenda rwose, ariko usanga umuntu uyifite aba ameze neza, aharanira ibintu bijyanye n'iterambere ku buryo kuyorora bishimisha cyane no kuyibonamo ...

Inkoko za kijyambere abantu borora mu rwego rwo kugira ngo barusheho kwiteza imbere mu by'ubukungu, aha rero zikaba zigaragara ko zimeze neza cyane, nyirazo azitayeho.